Igikuyu harimo inka haririmo n'abantu bigaragara ko hashabora kuba harimo abavetereneri inka biragaragara aka ari inyambo nk'uko tubizi mu muco wacu.